Umwana w'umuhungu wambaye umupira urimo amabara y'umukara n'ubururu n'ipantaro y'icyatsi, arimo gukaraba amaso kuri robine.

Abana babiri umuhungu n'umukobwa bavoma mu mazi kuri rupika, umuhungu apompa umukobwa avoma n'amajerekani abiri.

Umwana w'umukobwa uri guseka yayoye amazi mu biganza iruhande rwe hari ijerekani imwe y'ubururu n'andi majerekani abiri y'umuhondo.

Abana bo mu giturage bicaye mu ishuri bamwe bambaye imyenda y'ishuri abandi ntayo bambaye, hagati y'abo hicaye umukecuru.

Icyumba cy'ubuvuzi bw'amenyo harimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru, harimo agatanda k'amabara y'icyatsi n'imashini ivura amenyo.

Icyumba cyiza cyagenewe kuvuriramo amenyo harimo agatanda baryamishamo umurwayi, harimo amamashini avura amenyo, harimo ibyuma bivura.

RBC irakangurira umugore n'umugabo kwisuzumisha igituntu kuko kiravurwa kigakira, ubu butumwa burareba buri wese.

Ubusitani bwiza bufite amoko y'ibiti atandukanye umukindo, umunyinya, umwembe bukaba bukikijwe n'inyubako ifite parikingi harimo imodoka eshatu.

Inyubako ya kaminuza nkuru y'u Rwanda ikikijwe n'ubusitani, amatara, hari abantu babiri bambaye imyenda y'umutuku n'umukara.

Abana benshi bari gukina barushanwa, mu pande zombi hari abafana babafana kugira ngo barebe ikipe itsinda.

Box y'ibikoresho idufasha ku mubiri no ku huru, amavuta yo kwisiga ku mubiri, amavuta yo kwisiga ku ruhu, imiti, umukasi n'ibindi.

Ibikoresho byifashishwa mu buvuzi bw'ibanze, harimo umuti wica udukoko, uturindantoki, abagapfukamunwa, urushinge, agapima umuriro, n'utugabanya umuriro n'ibindi n'ibindi.

Icupa ririmo imiti, iruhande rwayo hari ikimera cyiza gikorwarwamo uwo muti cyitwa igikakarubamba kugira ngo kibungabunge ubuzima bwacu neza.

Box eshatu zifunzwemo imiti itandukanye, byakorewe uru ruganda rumwe ariko bikaba birimo imiti itandukanye.